Abagabo batatu ubona ko harimo uwambaye agapfukamunwa k'umweru, ndetse n'agapira k'umwe arengejeho ijule hagati harimo undi watunze agatoki imbere ,wambaye ijile nyuma yaho hari umutaka wanditseho ngo airtel mu kazi kose.

Imiti igiye itandukanye iri mu ducupa tugiye dutandukanye ndetse n'utubuni, hari uducupa dufite imifuniko y'imihondo, hari umugabo w'umuzungu wambaye akagofero k'umukara ndetse yahetse n'igikapu cy'umukara, imbere ye hari undi muntu wambaye agapira k'umukara n'ingofero y'umukara.

Abantu benshi bicaye mu ihema rifite ibitambaro by'umweru ndetse n'iby'icyatsi. Hari abagabo bicaye ku ntebe z'imbere bambaye udupira tw'umukara ndetse harimo umugabo wambaye umupira w'ubururu. Imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi.

Icyumba ubona ko bacururizamo imbere hari, agatajeri gakozwe n'imbaho ubona ko harimo amacupa y'inzoga z'ubwoko bugiye butandukanye. Iruhande rwaho hari igikarito, ubona ko cyavuyemo sima kirimo ibirayi.

Iduka ubona ko ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, hari igikarito cyanditseho ngo Agashya, harimo amavuta yo guteka, fanta, omo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bicuruzwa.

Abantu benshi bahuriye ahantu hamwe, nyuma yabo ya hari inzu yubakishijwe amatafari ahiye ya mpunyu. Imbere yabo hicaye abagabo, harimo uwambaye ikote ry'umukara, ipantaro yumukara ndetse n'ishati y'umweru.

Abantu batandukanye bicaye, imbere yabo hari ameza igitambaro gisa umukara, hateretseho uducupa tw'amazi. Harimo abambaye amashati y'umukara, hirya kuruhande rw'ibumoso harimo umugabo wambaye ishati y'ubururu.

Abantu bahagaze bagiye batandukanye harimo umugabo wambaye ikote ry'umukara, ishati y'umweru, karuvati y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara, iruhande rwe hari umugore wambaye agakote k'umukara.

Inyubako ndende ubona ko isize irangi ry'umuhondo werurutse, ifite amabati afite irangi ry'umutuku, imbere y'aho hari abantu benshi biganjemo abambaye imyenda y'imyeru ndetse n'abandi bagiye bambaye imyenda ifite amabarage agiye atandukanye.

Isoko ubona ko hari abantu batandukanye, hagiye hari ibiribwa bigiye bitandukanye, hari umugabo uri gusunika igare ripakiye imifuka, itatu itandukanye ndetse hejuru hari umusego w'igare, yambaye agapira k'amaboko maremare k'ibara ry'ubururu.